Abana bicaye mu byatsi, bambaye imipira ijya gusa, ifite amabara atandukanye, n'abanyeshuri, imbere yabo hari umugabo nawe wicaye wambaye ishati y'igitare n'ipantaro y'igitare.

Abantu bicaye mu ntebe zegamirwa, imbere yabo hari ameza ateretseho udutabo bandikamo ibintu byavugiwe mu nama, buri wese afite icupa ry'amazi, hirya hari uwambaye ingofero y'ubwubatsi y'igitare, inyuma ye hari abandi bambaye ingofero z'abubatsi z'umuhondo, bamwe bambaye amajire.

Umugabo ufunze igipfunsi, afite akantu k'akenda mu ntoki, yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, inkweto ze ni igitare inyuma hari umugabo uri kumanuka kuri sikariye, ku ruhande rwe hari undi mwana ufashe ku tuntu tw'utwuma tw'urusika ruzengurutse izo sikariye.

Agatebe karekare gafite amaguru ane azengurutswe n'udutambiko tune hasi, impande y'ako hari ikintu cy'umweru cyanditseho amagambo kimeze nka byapapuro byandikwaho, hirya hari ikindi gitereko kiri mu bwoko bw'intebe.